Muri bare harimo umugabo wambaye neza, akaba afite icupa ry'inzoga mu ntoki asa n'aho ashaka kuyisuka mu kirahuri. Hakaba hagaragara amashusho asa neza cyane, ndetse n'ubukombe busa neza, bikaba bigaragara ko aha hantu hakunda kuza abantu baje kuhanywera ibinyobwa bitandukanye.

Muri hoteri aho abantu baruhukira cyangwa se waba ufite urugendo ukaza ukaruhukira ,urabona ko hashashe neza cyane ,ku buriri bwiza buriho imisego ndetse n'amashuka meza atandukanye amabara abona ko ari icyumba gikeye, kandi gisa neza cyane.

Aho abantu batandukanye bajya kunywera icyayi, ndetse hakaba ari ahantu hasa neza cyane hari indabyo, hahagaze n'abantu babiri ariko umuryango waho urafunze, ariko hagaragara nk'aho bajya gufatira amafunguro ya mu gitondo cyangwa se nimugoroba, nk'icyayi ndetse n'ibindi bibikurikira.

Hasa n'ahakorerwa ubucuruzi, uretse ko ubungubu hari imiryango imwe n'imwe igifunze, ariko hari n'umuryango ufunguye ku buryo ushobora kwinjira ugahaha icyo ushaka. Ariko ni iy'imiryango yindi nubwo ifunze, nayo igifungura hagakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye.

Umuryango munini uringaniye, ufite urugi rufite amabara avangagavanze ,asa neza hari n'irido ryiza ubona ko rwose byose bisa neza, bikaba bifite amabara y'icyatsi ubururu ndetse n'umutuku.

Ahantu heza rwose hari inyubako nziza, ndetse hari n'ibigega byinshi bigiye bifata amazi, bisa nkaho araho bagurira ibigega, kuko ni byinshi kandi hano nta mazi biri gufata ubwo rero naho bagurira ibigega gusa harasa neza cyane.

Ibyuma bihambiranyije bisa n'ibyuma bijya ku magare, ya magare matoya, ya yandi bita ibinyamitende ashobora kuba ari moto cyangwag se ano magare matoya asanzwe, ndetse hakaba hari n'imifuka nayo ubona ko ishobora kuba iririmo bino byuma bigiye bitandukanye.

Telefone zo mu bwoko butoya cyangwa se izo twita gatuche zapfuye. Bigaragara ko aha hantu bahakorera telefone zigiye zitandukanye. Ariko urabona ko arizo bahambuye, izindi zikaba zitarahamburwa. Ariko hagaragara nk'aho ari aho bakorera telefone.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye. Ibikapu, imigati, ibyorya bigiye bitandukanye, baro iy'abana bakina, ndetse n'abandi bantu bakuru. Urababona ko hari n'amakesi ya fanta, amazi yo kunywa, ndetse n'ibindi byinshi. Ni ahantu hasa neza rwose, ubona ko hakorerwa ubucuruzi.

Hagaragara nk'ahakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, ndetse n'aho batunganyiriza imisatsi ibyo bakunze kwita saro de kwafiri ndetse hahagaze n'abantu batatu, ndetse ndabona hari n'imashini idoda imyenda n'umubyeyi uhetse umwana ufite umutaka.

Aho bacururiza ibyo kurya by'umwihariko umuceri, akawunga, amasukari ndetse n'ibindi bitandukanye, urabona ko ari ahantu hasa neza, imbere yaho hakaba hari intebe hakaba hafite inzugi zisa neza, zifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Umugabo uhagaze imbere y'imodoka ,yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru . Akaba yifashe mu mifuka ndetse inyuma ye hari n'indabyo zigaragara neza cyane.

Inkweto z'abagabo z'ubwoko butandukanye harimo umukara, umutuku, ibihogo, umweru ndetse n'izindi zitandukanye bigaragara ko ari aho bacururiza inkweto z'abagabo.

Aho bacururiza ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'akawunga, umuceri, ifu y'ubugari ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Urabona ko ari ahantu hari ibintu byinshi, akenshi higanjemo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Aho bacururiza ibintu bigiye bitandukanye nk'ibipupe by'abana, ama esuveseri yo guhanaguza ibyombo, ingofero, ndetse n'ibindi bintu bigiyeye bitandukanye byo kwifashisha mu nzu cyangwa se mu rugo.

Mu isoko ricururizwamo ibiribwa nk'ibirayi, ibishyimbo, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko urabona ko hano higanjemo ibirayi. Ndetse hari n’ababyeyi babiri bari kubicuruza. Urabona ko iri soko ari isoko rinini kandi rigari.

Aho bacururiza ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo: nk'amaji, amayogati, ndetse hano hakaba hari na numero ushobora kwishyuriraho igihe wakoresheje kimwe mu binyobwa byaha ngaha ukishyuraho amafaranga.